Umugore n'umugabo bagiye ku mujyanama w'ubuzima kugisha inama ku bijyanye n'imyororokere, aho bashaka ubujyanama ku mugore utwite, umujyanama w'ubuzima ari kumugira inama ku bijyanye n'umugore utwite.

Abana bo mu cyiciro kibanza cy'amashuri, bari gukinira ku mugezi rusange, bari kumenagura amazi bayapfusha ubusa, kandi bamwe na bamwe bishobora kubagiraho ingaruka, bagakomerekeramo cyangwa se bakagira ikindi kintu kibi kibabaho.

Agatanda bandikaho amasahani gakunzwe gukoreshwa cyane mu bice by'igiturage aho bakunze kwita mu cyaro, kakaba gakunze kubakwa mu biti bitandukanye..

Umwana w'umukobwa wiga mu mashuri abanza ari gusukura intoki ze akoresheje isabune n'amazi meza asukuye, aho bikorwa ari kwirinda indwara zandurira mu gukoranaho n'izindi zitandukanye.

Umusaza wicaye ufite inkoni y'abasaza, umeze nk'urwaye, ari kwakirwa n'umuganga ubona ko amwishimiye amusekera, bigaragaza ko uwo muganga ari umunyamwuga ari kumwakira, agiye kumuvura.

Ibi bitaro bya Gihundwe, bizwiho kuvura amaso n'izindi ndwara zitandukanye, ariko cyane cyane aha bibanda ku ndwara z'amaso zitandukanye.

Umuganga uri gusuzuma ibice by'umubiri akoresheje ikoranabuhanga rigezweho, mu gusuzuma indwara zitandukanye, aho ari gusuzuma igice cyo mu mpyiko, ari gusuzumamo nimba nta ndwara irimo.

Imbuto nzagufasha umaze gukora siporo, zikongera ubudahangarwa bw'umubiri, zirimo imineke, amatunda, amaronji, pome, n'amacunga.

Umuti wo mu kanwa uri gushyira ku buruso bwoza amenyo, aho koza amenyo bifasha kwirinda indwara zirimo izo gucukuraka amenyo n'izindi zitandukanye zifata mu kanwa.

Isabune ikorwa muri avoka ikoreshwa mu koga umubiri ariko bikaba byiza kuyoga mu maso kuko irinda indwara zataka umubiri.